Abapolisi bari ku karasisi bambaye imyenda ya polisi ,noneho bakenyeye umukandara, bafite uw'imbere yamanitse ukuguru hejuru ari kwerekana imyitozo ngororamubiri ,bakora n'abandi bari kumukurikikira ari kumugenderaho.

Inama yaguye y'umutekano, yitabiriwe n'abadaso n'abapolisi n'abandi bafite aho bahurira n'umutekano, yabereye ku kibuga yitabiriwe n'abantu n'ingabo za leta.

Abantu bicaye muri sale ahantu bitabiriye inama ,hari umugore wambaye ikoti ry'ikoboyi ,umudaso wambaye imyenda yicyatsi ya daso y'akazi n'inkweto z'umukara ,bicaye ku ntebe, bamwe bafite amaterefone abandi baricaye ,bose bari kureba imbere, bari gukurikira umuntu uri kuyobora inama.

ni amapoto abiri, ipoto nini y'icyuma n'ipoto ntoya iriho itara ry'umuriro; amapoto aba anyuzwaho insinga z'umuriro, iyo ayo mapoto niyo twifashisha tugeza umuriro ku baturage ndetse amatara iyo ari kwaka bituma tugenda dufite umutekano.

Imbwa iri kurya ibiryo, ikaba iri ku gipangu ariko bayishumitse, ikaba iri kubirira muri butike hafi aho bacururiza nyine nko mu kabari imbwa iri kurya ibiryo ariko irashumitse.

Abapolisi bari kwambara guhabwa amapeti. Bashoje mu kademi bari guhabwa kwambara imyambaro ya gipolisi, n'umugore uri muri porotocole ari kubaha utubaji, kugira ngo bashobore kuza mu birori.

Guverineri w'intara y'Amajyaruguru ayoboye inama muri sale y'Akarere, aho inyuma ye hadekojede idarapo ry'u Rwanda ririmo ibara ry'icyatsi, ubururu, n'umuhondo. Impande hari inzego z'umutekano, imbere ye hari abantu bitabiriye inama.

Inzego z'umutekano; abapolisi bambaye udupfukamunwa imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikanzu y'abasenyeri n' umupasitoro wambaye ikoti, bambaye udupfukamunwa bahagaze mu muhanda hariya mu mujyi wa Musanze, impande yabo haparitse imodoka iri hafi ya katedrali y'abaporoso ni ho bahagaze bambaye udupfukamunwa.

Abacungagereza bari mu nama, bari guhugurwa, cyangwa se abasiriveya ba gereza, bari guhugurwa uko bazajya bakurikirana abanyururu, mu gihe bari kumwe na bo kuri gereza. Bari guhugurirwa muri sare y'Akarere.

Abantu bambaye imyenda ya kake, udupfukamunwa, ndetse na bote z'ubururu, bari kuri palede cyangwa se mu karasisi bari kwitoza, bari gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bikunda kuba mu itorero cyangwa se abantu bishyize hamwe bashaka kwihugura ku gikorwa runaka.

Umupolisi wambaye inkweto za polisi z'umukara n'imyenda y'umukara ya polisi ijya gusa n'ubururu bwijimye, ndetse ahagaze imbere y'abantu mu nyubako ya Leta, ari gutanga ubutumwa butandukanye. Inyuma ye haradekoye n'amabara y'idarapo. Icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ubwato buri mu mazi buri gutwara abantu ubundi ubwato, ni icyombo gitwara abantu cyambukiranya kiri mu kiyaga mu kiyaga cya burera kiri gutwara abantu kibavana muri burera kibambutsa nyine mu mazi kibageza hakurya i musozi.

Imodoka iparitse imbere, ahantu hasize, hari irangi ry'icyatsi, impande yayo hari umupolisi wambaye imyenda y'akazi. Iyi modoka ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa tagisi vuwatire; imodoka ntoya, noneho ikaba iri muri kontorore, bari gupima imyuka.

Inama ihuje abaturage n'abayobozi inzego z'umutekano, harimo umugabo ufite kompiyuta, harimo n'umudaso, harimo n'abagabo bambaye amakositimu bitabiriye iyo nama, bicaye muri tente ahantu hadekoye.

Abantu bari mu nama mu nyubako ya leta. Mw'abo bantu bari mu nama ni abagabo n'abagore, barimo uwambaye ikirondoni n'u wambaye ishati y'umweru n'ikoti rya kositimu, bicaye ku ntebe z'inama muri sale y'inama bari gukurikirana inama.

Ifoto y'umunsi ku bantu bitabiriye inama; abayobozi bari imbere baricaye abandi nabo bari inyuma kugirango ifoto igende neza, irimo abagabo n'abagore, inzego z'umutekano n'abandi bantu batandukanye bari bitabiriye inama.

Abayobozi batandukanye bayoboye inama, bari kubwira abagenerwabikogwa cyangwa se abaturage gahunda z'ibikogwa bitandukanye bashaka kubagezaho. Ubwo bakaba bari mu nzu, mu nyubako ya leta.

Abantu bitabiriye inama, imbere yabo hari ameza adekoje igitambaro cy'umweru n'ibara ry'ubururu, ayo meza akaba ateretseho amazi ya nili ari imbere yabo. Abo bantu hakaba harimo umugabo wambaye amarinete, ndetse n'abandi bagabo bambaye amakoti.

Umugore uteze amaboko yambaye ibitako, yambaye umukenyero, uriho umwitero yateze nyine amaboko ari kubyina. Ari no guseka ari kwitegereza imbaga ya rubanda, rumuhanze amaso impande ye hari ingoma.

Iziko rya kinyarwanda rigizwe n'amabuye atatu, ariyo bita amashyiga, rikaba riteretseho isafuriya ipfundikiye, irimo ibyo kurya, mu ziko harimo inkwi zi zi z'imyase, noneho iyo batetse ku ziko ibiryo bishya vuba.

Abakobwa babiri bikoreye ibibindi ,abo bakobwa bakaba bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu. Ibibindi bikaba bibumbwa mu ibumba ,bakaba babitaramo umusururu, bakaba barabivomeshaga kera ,ndetse abo bakobwa bambaye ikanzu y'umweru ,undi yambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ibitako, akaba afite ingabo mu ntoki, akaba afite n'icumu, akaba ari kubyina imbyino gakondo zibyinywa mu muco nyarwanda, akaba ari kubyinira ahantu hari mu mwijima mbese hari kwaka amatara.

Umugore n’umugabo bicaye，imbere yabo hari ikirahuri，noneho uwo mugore yambaye agashati k’umukara karimo amabara y’umweru，yasokoje imisatsi neza， yasambuye， noneho umugabo nawe yambaye ikoti yicaye，ni ikote risanzwe ritari ikositimu n’ishati y’umweru，nawe arirabura baricaranye.

Ababyinnyi bari kubyina indirimbo z'umuco gakondo, bambaye imyenda, imishanana y'umweru n'ubururu, n'umukara n'ubururu, ndetse n'udusengeri tw'imituku.

Ikibindi kirimo umusururu n'imiseke enye n'abagabo babiri bari gusangirira mu icyo kibindi, e kikaba ikibindi kibumbwa mu ibumba, kikaba gikoreshwa batara umusururu cyangwa se batara inzoga.

Umugore wambaye agapfukamunwa, umupira w'umutuku, afite iningiri ari kuyicuranga ikaba ikozwe mu giti n'igicuma , afite n'imirishyo ebyiri uduti tubiri ari gukoresha, ahagaze ahantu hari ibyatsi.

Ingoma iteretse ku ntebe y'igishyitsi iyigoma ikababambishije uruhu, iri kumwe n'umurishyo wayo, iyi ngoma bakaba bayivuza bari mu rusengero bari gusenga cyangwa se bagize ibirori. Uruhu ibambyemo akaba ari uruhu rw'inka. Ingoma rero nayo ikaba ikoze mu giti, bayiramvuye mu giti, bakibajije bayicukuramo umwobo, ingoma mbese barayivuza kugira ngo bashyushe ibirori.

Imbehe, imbehe ifite ahantu habiri ho kurira ,imbehe iri mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda hatari haza amasahani. Imbehe bayinyweragaho isosi bakayiriraho n'umutsima w'amasaka iyo babaga batetse inyama cyangwa se babaga bakoze agasosi k'ibishyimbo. Imbehe iba ikoze mu giti.

Iningiri , iningiri nayo ni igicuma bakata bamara kugikata bakagipfundika ku muzi ku giti ,noneho umuntu iyo ari kuyicuranga acuranga akoresheje uduti tubiri bakagicuranga bari kuririmba, mu bikoresho gakondo kiza gukora mu mwanya w'ibyuma.

Abagore bari gukaraza，bari kuvuza ingoma，bari guseka， banaririmba，bambaye imishanana n'inigi mu zosi，bambaye n'imitako mu mutwe，bakaba bafashe imirisho，n'ingoma imbere yabo.

Umugore upfukamye ku rusyo akaba afite ingasire mu ntoki ari gusya amasaka. Ibyo amaze kubeta cyangwa se gusya akaba ari kubishyira ku nkoko iteretse imbere ye. Urusyo rukaba ruri mu bikoresho gakondo byakoreshwaga hataraza icyuma kibeta.

Amacumu atandatu akoze ku buryo butandukanye,e buri cumu rikaba rifite uburyo rikoze ritandukanye n'irindi, ariko icumu ryo hagati akaba ariryo ni rirerire rinini noneho amacumu abiri ari mu ruhande rumwe hirya naho andi macumu atatu.

Icyasi n'umufuniko wacyo; iki cyansi bakaba bakinwesha cyangwa se bagikamiramo amata, ku bantu bafite inka iki cyansi kigira amata iyo kirimo amata ubona bisa neza cyane kiri mu bikoresho gakondo byakoreshwaga hataraza ibikoresho by'abazungu.

Umugore uri gusya urusyo uri gusya amasaka ku rusyo. Ee apfukamye ku mukeka, noneho amasaka ari ku nkoko. Impande y'inkoko hari igipaniye, hari n'abandi bagore babiri bari kwiga gusya. Imbere y'urusyo yashasheho ee ibivovo, n'inyuma y'urusyo inyuma y'uwo mugore hari insina.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda harimo ingoma, hakaba harimo iningiri, cyangwa se inanga, hakaba harimo ibi bikoreshwa bari kubyina indirimbo gakondo cyangwa se babikoresha bari gucuranga, hakaba harimo ingoma n'ibindi bitandukanye.

Umugore ufite ingasire ari ku urusyo， ari gusya arapfukamye yambaye agapira k'umukara， yiteze nk igiigitambaro mu mutwe w'urusyo barukoreshaga bari gusya kera ikawa bari gusya ibyo ku gikoma barukoreshaga inganda z'imashini zitari zaza i mu bikoresho gakondo uswe n'ingasiro rugira umumaro.

Abagore bateze amaboko bambaye urugori n'urugori n'utwitero bari kubyina n'abana baje gushungera. Abo bana abahungu, n'abakobwa, n'abo bagore harimo abambaye ingutiya y'umukara barirabura.

Abagabo bambaye udupira tw'umweru， bafashe imirishyo mu ntoki， imbere yabo hari ingoma zikozwe mu ruhu n'igiti， ingoma zivuzwa mu birori， cyangwa se haraza abashyitsi batandukanye， abagabo bakaba bazwi ku izina ry'abakaraza， ingoma nazo zigira ubusobanuro， harimo n'izo bita urugero： Impuruza.

Abana bari gusimbuka igikuraramende harimo n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara uri kugenda, e noneho umusore umwe akaba ari mu kirere ari gusimbuka nyine e n'abandi babiri biteguye gusimbuka.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu. Uwo mugabo akaba ari guhakura ubuki mu mutiba wa kijyambere wubakishijwe imbaho z'umuhondo . Uwo mugabo yambaye ishashi mu mutwe kugira inzuki zitamujykaho ndetse n'ingofero ,ndetse afashe n'igikombe ari guhakuriramo ubuki.

Inzu ya kinyarwanda yamuviringo isakaje ibyatsi hejuru hariho agasongero k'agati aho mw'ihuriro ry'aho basakariye. Irakinguye mo imbere irimo isima ifite irangi ry'umutuku, noneho ikaba ifite uruzitiro ruzengurukijwe itete ibyatsi bita itete bigiye bifunzemo amasa cyangwa se bifunzemo imifungo.

Ababyinnyi bari kubyina umuco gakondo，indirimbo za kinyarwanda, bakaba bari kubyina iby'iwacu, indirimbo nyarwanda， bari gushimisha abantu bitabiriye ibirori nko mu bukwe, haba ababyinnyi mu itorero.

Abakobwa bari kubyina barambuye amaboko, bambaye udusengeri tw'umuhondo,e amaboko bayarambuye bayazana imbere, bari kwitegereza mu cyerekezo kimwe, bakinisha ibintu byitwa incabure, noneho hirya yaho hari abagore nanone bakenyeye imishanana na bo bari kubyina imbyino gakondo.

Umugabo ukenyeye imishanana y'umweru, ufite igicuma, noneho n'abandi bagabo bamukurikiye inyuma, n'abagore bakenyeye imishanana n'umutuku bari mu bukwe ahantu, bitwaje ibyo kunywa, abo bagore bakaba bakenyeye imishanana y'umutuku bari mu kibuga.

Igihingwa cyitwa soya kiri mu murima, uruyange rwacyo rukaba ari umweru, ifite amabara y'icyatsi. Soya iyo zeze zinyobwamo igikoma, soya barazirya, soya na zo ziri mu byubaka umubiri.

Ibiryo bya Kinyarwanda ni byo byatekagwa kera.

Ibihaza bibiri byeze, ibi bihaza bikaba bivamo ibicuma, biri ku giti cyabyo, birabanza batera inzuzi inzuzi zigakura, zakura zikazamukira ku kintu zikaza kugira uruyange, uruyange rugakura rukavamo uduhaza duto tugakura tukavamo ibihaza binini bakazabikoramo ibicuma.

Umugore wambaye umukenyero afashe icyansi mu ntoki ari ku gihereza umugabo wambaye na we ishati y'umukara ,abantu bakaba bicaye bari mu bukwe bakaba bari mu misango y'ubukwe bageza igihe cyo guzimanirana.

Abagabo batanu bambaye imigara bafite amatuza, bakenyeye imitako bari kubyina imbyino gakondo. Abo bagabo bakaba bari kubyina ibyino gakondo. Hejuru nta myenda bambaye, hasi bakenyeye imitako, imigara bayambaye mu mutwe.

Ababyinnyi bambaye inkindi bafite ibisabo, bafite n'amayugi n'imigara, bakaba bafite ibikoresho: ingoma ibisabo, ibikoresho by'umuco gakondo, bateze bambaye bambaye imishanana mbese bambaye imyenda y'ababyinnyi.

Igiseke cyangwa se ikibo giteretse ku gakoko, noneho gafite ibara ry'umukara ndetse n'ibara, kabohesheje intaretare kakaba karimo ibara ry'umukara, n'ibara ritari umweru, umweru utanoze.

Ababyinnyi bambaye inkindi bari kubyina e umugara, icumu ,n'ingabo ndetse n'igitambaro kikitwa ikinyita bari kubyina bambaye ibisa ntibisa n'umweru n'ubururu.

Intore zifite ziri kubyina zifite zambaye imigara imigara ikaba bakaba bafite n'icumu n'ingabo bakaba bateze amaboko, bambaye n'ibitako ndetse bambaye n'ibindi babyina gakondo babyinana.

Umwami, umugore bari gushyingira cyangwa se umwami uhetswe mu ngobyi. Ingobyi gakondo hakaba mu ngobyi harimo ikirago. Iyo kera babaga bagiye gushyingira umugore, baramushyingiraga ariko bakagenda bamushyiriye umugabo, ngo ashingirwe nyine arongorwe. Umugabo amusohoze.

Ibikosho gakondo, urusyo, ingasiro, umutemeri w'icyibo, amasaka ari ku nkoko cyangwa se intara n'ifu ibese y'igikoma.

Ababyinnyi bambaye imigara ndetse bambaye hejuru ubusa ariko bambaye ibitako bari aho bita mu by'iwacu bari kubyina hari inzu za kinyarwanda zisakaje ibyatsi zinatatse amabara y'umweru n'umukara ndetse bakenyeye bambaye n'amayugi bari kubyina bafite n'icumu bari kubyina.

Ingobyi ingobyi iri ku bitugu ihetswe n'abagabo abagabo babiri, bari imbere umwe yambaye ijiri cyangwa se umupira wa tiriningi n'undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara, iyo ngobyi ikaba yoroshweho ikiringiti noneho ingobyi akaba barayihikagamo kera.

Umuduri; umuduri bafata igiti bakagiheta, barangiza bagashiraho umugozi uhuza cya giti, noneho inyuma bagashiraho igicuma gikaze. Uwo muduri bakawucuranga baririmba indirimbo zitandukanye, byakundaga gukoreshwa mu bikoresho gakondo, kuko ibyuma bya muzika byari bitaraza. Ubu uyu munsi ukoreshwa n'umugabo bita Igisupusupu.

Inanga bakoreshaga bari guterekera, cyangwa bari kuraguza, cyangwa bari kubandwa. Bayicuranga iyo bari mu birori. Iri mu bikoresho bya gakondo, iyi bayicuranga bakoresheje agati, agati cyangwa se iba iri hafi y'umuduri.

Isekuro n'umusekuzo isekuro ikaba ikozwe mu giti, isekuro bayisekurisha isombe, bakayisekurisha imyumbati, isekuro ifite akamaro, iri mu bikoresho gakondo byakoreshwaga n'uyu munsi bikoreshwa batari bazana insyo z'ibyuma, cyangwa se imashini zibeta.

Inzu ya kinyarwanda ari yo bitamo muviringo. Isakaje itete ndetse n'ibindi byatsi. Iyo nzu ikaba ifite umuryango ukinguye, muri uwo muryango hakaba harimo inyegamo. Inyegamo akaba ari ikirago cyabaga kiboshye mu busuna, ndetse no mu birere by'umukara. Ni cyo batakaga mu nzu.

Ingobyi bahekamo abarwayi iyo batuye ahantu hatagera moto cyangwa se ambilanse babaheka mu ngobyi , ingobyi akaba ari igikoresho gitwara umurwayi , ingobyi ya Kinyarwanda.

Abagabo bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo, bafite umuheto n'umwambi bari kurasa, umuheto n'umwambi bikaba biri mu bikoresho gakondo, byakoreshwaga hatarakorwa imbunda n'amasasu. Byakoreshwaga bari guhiga udusimba two mu ishyamba cyangwag se bari gutera umwanzi.

Ibisabo bitatu bijishije ndetse n'ibicuba biteretse hasi noneho ibi bisabo bakaba babicundiramo amata. Ibicuba na byo bakaba babinywesha amata. Ni ibikoresho gakondo twakoreshaga tutari twabona inganda, byakorwaga n'ababaji.

Uyu ni uwasigajwe inyuma n'amateka, ari kubumba inkono, inkono ni ikimuga, ikimuga ni ikibindi bashigishiramo ubushera, it bashigishiramo ubushera cyangwa se umusururu, n'umunini iki kibindi iyo ugitazemo ubushera buhita bushya, bukaryoha, bari ku kibumba mu byondo n'ibumba, ibingibi biri byaba biri nko muri nkotsi.

Umugozi wa mashini bacomeka muri miritipurize， bacomeka muri miritipurize， uyu mugozi ukoreshwa bashyira umuriro muri kompiyuta cyangwa se bazana umuriro muri terefone， ubwo uyu mugozi ukaba wifashishwa mu gucajinga kompiyuta.

Imigozi icometse kuri miritipurize, ikaba iri gucaginga icyuma iri ku meza, iyo migozi ikaba izana umuriro muri icyo cyuma.

igikoresho cyo kwa muganga kimeze nka terimometeri bapimisha umuntu. Bagishyira mu kwaha ubundi ahasigaye kigasona umurwayi akagira gute? Akagaragaza umuriro afite. Bakakigira gute? Bakakimukuramo.

Ampuli icometse bayikoresha bari gucuranga ibyuma byo mu rusengero, cyangwa se za bafule zo mu kabari. Iyi ampuri ikaba icometseho insinga n'imigozi bitandukanye.

Ipenso ifite ibara ry'umukara n'umuhondo bayikoresha bari gufungura ibitanda, bagiye kubiteranya cyangwa se bari gukura imisumari ahantu bashaka, kugira ngo bafungure ibintu byari bisanzwe bifatanye.

Kompiyuta e ya raputopu iri kumwe n'umugozi wayo, turi kubona aho bakanda bandika amagambo mu kirahuri, noneho tukaza kubona n'ahari inyuguti n'imibare noneho abize bavuga ngo ni kibodi.

Urutsinga rw'umukara n'urwumutuku，birambitse hasi ku mapave，noneho hakaba hariho n'ikidongi kinini cy'urutsinga rw'umukara，bakoresha bari kwesitara amashanyarazi，cyangwa se umuriro mu nzu.

Amarembo y'ikiraro azengurukijwe na senyenge, icyo kiraro kikaba ari umwicundebo kiri kugendaho abana noneho kikaba kidekoyeho ibipirizo by'ubururu, n'iby'umuhondo, bigaragara ko icyo kiraro gishobora kuba kiri butahwe.

Umuhanda w'igitaka ugiye ku kigo cy'amashuri, impande y'ikigo cy'amashuri hari ibiti by'inusi byinshi, ibiti by'intusi barabyubakisha, ku mashuri barahigira, umuhanda bawunyuramo, cyangwa se ibiti bakabicana, ibiti cyangwa bakabizitiza, cyangwa bakabyubakiza bigira akamaro kenshi.

Imodoka ziri mu muhanda. Izi modoka zikaba zikora umuhanda. Uyu muhanda ukaba ari umuhanda w'igitaka munini, urigukorwa, abantu batwara izi imodoka bakaba bafite perime za efu, noneho izi modoka zikaba zifite akamaro kanini ko zitsindagira umuhanda.

Urusengero cyangwa se kiliziya yubakishije amatafari ahiye, ayo matafari akaba ateye irangi ry'umweru, ndetse n'irangi ry'umutuku. Kuri urwo rusengero hariho igishusho cya Yezu abambye, impande y'aho hari abanyeshuri bambaye imyenda ya kontoni bavuye ku ishuri, ariko iyo kiliziya irafunze.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'ibipangu by'abantu . Umuhanda ukaba uciyemo imihanda ibiri noneho hirya ha akaba hari ibipangu by'amatafari I buryo n'ibumoso. Ibipangu binini imbere bituwemo n'abantu . Umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru ugakoreshwa n'abanyemodoka, ugakoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye . Umuhanda ufite akamaro, uri mu bikorwaremezo.

Urusengero hejuru ruriho umusaraba, mu mpande mu mbavu harimo urugi , noneho urwo rusengero rukaba rufite ibara ry'igitaka , rusakaje amabati . Impande yarwo hari ibitaka byinshi by'inombe.

Abagabo bane bari mu gikwa bari kuba bubaka, bari kubakisha ibiti, hakaba hari umugabo uri hasi ari kubahereza. Ibiti twabonye ko babitera, bagatera ibiti by'inturusu babikuye muri pipiniyeri, ibiti bikazakura bikagira akamaro ko kubaka, gucanwa cyangwa se gutwika amakara n'ibindi.

Urugomero rw'amashanyarazi, aho insinga zihuriye, izo nsinga zikaba zijyana umuriro ku mapoto, no mu duce hirya no hino dutandukanye, umuriro ukaba ukoreshwa bari gusudira, bari kumurika amatara, bari gukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, n'undi mugabo ufite ingofani n'igitiyo uri gutunda umucanga, bakaba bari kubaka rigori y'umuhanda, noneho iyo rigori ikaba itangira amazi kugira ngo ataza mu muhanda wa kaburimbo. Uwo mugabo ari kubaka akoresheje umwiko.

Iki kiraro ni ikiraro kiri kubakwa bita umwicunde, kigendwaho n'abanyamaguru. Kikaba gitandukanya umugezi, munsi y'ikiraro hariro umugezi, ndetse gitandukanya umubande n'umusozi.

Uruzitiro rwa se rw'ibyuma n'amatafari ruzitiye ikigo cy'amashuri ndetse na borodile ndende, umwobo unyuramo amazi uri impande y'umuhanda utandukanya umuhanda n'ishuri, urwo ruzitiro rukaba ruzengurutse imbere izindi nyubako zitandukanye.

Urusengero cyangwa se kiliziya yubakishijwe amatafari ahiye, mu ruhande rumwe, hakaba hashushanyijeho ishusho ya Bikiramariya, iyo ikiliziya umuryango ukaba ukinguye, umuryango munini, ifite n'utundi turyango dutoya ku mpande tubiri, ndetse ikaba ifite agasongero kazamuye, hejuru kariho ikimenyetso cy'umusaraba.

Ibiro by'akagari ka Rugeshi imbere yaho hari ibendera cyangwa se iderapo ry'igihugu, aka kagari kakaba gafite amadirisha atatu n'umuryango ibiri imbere yaryo hari amabuye y'amakoro, akagari ka Rugeshi kakaba kaba mu murenge wa Cyuve.

Inyubako isakajwe amabati y'umutuku, ikaba ifite amadirishya y'ibirahuri, ayo madirishya akaba akinguye, iyo nyubako ikaba igeretse izitijwe na korotire y'ibyuma, ndetse iyo nyubako impande yayo hakaba hari jaride.

Abayobozi, abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako ya Leta, bari gufata ifoto y'umunsi, bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba bari bitabiriye inama, aba akaba ari abayobozi batandukanye.

Ku Murenge wa Busogo aho abaturage baje mu bibazo hariho umugabo n'umugore bahagararanye, umwe yambaye agapira k'icyatsi, umugabo uhetse igikapa n'abandi bicaye ku ntebe, bigaragara ko bategereje ubuyobozi ngo bubafashe mu bibazo bafite.

E inyubako ya Leta, ibiro by'Akagari ka Kampanga, e yubakishijwe amatafari,e amatafari y'umutuku e ikaba ifite n'umuryango ufunze,e in nyubako bakaba bakoreramo ibikorwa bijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage.

Mu kigo cy'imari mu murenge sacco aho batangira serivisi za banki aho inguzanyo cyangwa se ibindi bitandukanye, hariho umukiriya hariho n'amabwiriza yemewe, bakurikiza iyo bakorera muri icyo kigo cy'imari umurenge sacco. Hakorerwa ibikorwa bitandukanye nko kubitsa no kubikuza ku baturage.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ari mugongo watemba cyubakishije amatafari, kikaba ari etaje igeretse rimwe kikaba gisize irangi ry'ubururu, amatafari yubatse ikigo akaba ahiye, kikaba ari ikigo kigirwamo n'abanyeshuri.

Mu mujyi wa Musanze etaje inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu. Imbere yayo hakaba hari umumotari uri kugenda muri kaburimbo n'abagenzi bari gutambuka mu soko, harimo umugore n'umugabo witwikiriye umutaka.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura， kikaba cyubakishije amatafari ahiye，gifite irangi ry'umweru hejuru y'amadirishya， imbere yacyo hakaba hari ikibuga， ayo mashuri akaba ari amashuri menshi cyane，yubatse ku buryo bwa mugongo hatemba.

Amashuri ari mu muhanda ya kaminuza, amashuri n'inyubako za Leta, amashuri na kaminuza aho abanyeshuri bigira, ikibuga, ibendera ry'u Rwanda n'amatara ndetse n'ibindi na jaride.

Ikigo cy'ishuri kiriho igiti cy'inturusu hariho n'ikibuga cyo gukiniraho, ikigo cy'ishuri kikaba gisakaje amabati y'ibara ry'icyatsi ,hakaba hariho n'ikibuga cy'umupira kiri imbere ikibuga gisanzwe n'akayira kagaragazako kagiye kuri icyo kigo.

Ibiro by'akagari biri mu ri Musanze impande muri Muhoza noneho bikaba bifite korotire y'amabuye , noneho hakurya yabyo hakaba hari igitari kizamutse ku musozi ahajya kuri Ndabirambiwe.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye amajipo y'umukara n'amashati y'umweru, bari ku kigo cy'amashuri bamwe bari hasi bari kugenda abandi bahagaze kuri etaje, icyo kigo cy'amashuri kikaba kigeretse kabiri kigeretse rimwe, akaba ariho bahagaze bari kureba hasi ku ishuri n'aho bigira.

Abantu bagiye ku kiriziya b'abasaveri gusenga. Abagore n'abagabo mbere y'uko binjira mu kiriziya harimo n'abambaye udufurari tw'abakarisomatike bagiye kwinjira mu kiriziya ngo bajye mu misa.

Inzu ifite irangi ry'ubururu n'umweru, imbere yayo hahagaze umugabo n'umugore, ifite umugenderano ugiyeyo ifite n'amajaride, iri impande y'inzu y'umutuku y'ubucuruzi n'imbere hari kaburimbo impande y'umuhanda hari n'igiti kinini, iyi nzu ishobora kuba ari hoteri.

Abanyeshuri bahagaze imbere ya sare, bambaye amapantaro ya kake n'amashati y'umweru, impande yabo hakaba hari igiti kinini, noneho iyo sare ikaba ikinguye yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ikaba imbere yayo imiryango yayo ikinguye.

Ikigo cy'amashuri, ahagaragara utugendererano tugiye ku mashuri. Ndetse n'amadirishya, n'inzugi n'imiryango amatafari, kikaba kiri mu nyubako za Leta cyubakishije amatafari ahiye.

Inyubako z'Akarere harimo Akarere ka Musanze, hakaba haparitseho ambilanse. Iyi nyubako iri ku muhanda imbere ya beka ku muhanda werekeza Gisenyi/Rubavu, ikaba igereretse rimwe.

Ibiro by'Umurenge wa Kinigi, abantu babiri, batatu umwe yambaye umupira w'ubururu, hariho n'idarapo, hakaba hariho n'igare, hakaba hariho, idarapo ni ibendera, hakaba hariho na jaride.

Umuhanda wa kaburimbo ugeze mu ikoni， haruguru y'uwo muhanda bari kuhahinga，bari kuwugura，bahasiza， no hepfo y’aho，ibitaka by'umuhondo byinshi by'inombe biraharunze，ibyo bitaka akaba aribyo bari gukoresha， bari kuwagura.

Kiliziya Katolike ya Musanze mu mujyi kuri katedarali, aho Abakatolika basengera. Aha ngaha ni itorero ry'Abagatolika rihasengera, harakinze ariko ugeze kuri Kamuhoza, aha ngaha ni ku Kiliziya, ndabona ari Kiriziya y'Abagatolika.

Umurima wa karoti uri imbere y'ama etaje ,aya mazu y'amayetaje akaba yubakishije amatafari ahiye, noneho hakaba hari n'akadirishya gafunguye kari gutanga umwuka muri ayo mazu. Karoti ni igihingwa gihingwa n'abaturage benshi mu murima w'igikoni. Izi karoti zikabasha kuzihingira ubwinshi cyangwa twahinga nkeya ariko barazirya ,zivura indwara zitandukanye ,ushobora kuzirya uzihikenye cyangwa zizitetse.

Ikigo cy'ishuri abanyeshuri bari gukina, bahagaze imbere y'ishuri, bambaye udushati twubururu, noneho inyuma y'iryo shuri hari amazu menshi, ayomazu menshi akaba ari umudugudu wicyitegererezo abo banyeshuri batahamo.

Abantu batandukanye bambaye imikinyero abandi bitwikiye imitaka, impande bari impande ya kiliziya, iyi ni tente isakaje ishitingi y'umweru, noneho kiliziya hejuru ifite umusaraba, yubakishije amatafari ahiye.

Amabendera abiri ari kuri sitasiyo ya porisi，ahantu ku muhanda w'ibitaka，noneho hakaba hariho n'inzu isakaje amabati y'icyatsi， iriho icyapa cyanditseho Rwanda nashonari，noneho hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo iruhande.

Abagabo babiri bari kumwe n'umugore bari mu kiganiro .Umugabo umwe yambaye umupira w'umutuku n'igare riri mu muhanda muri kaburimbo rihetse igitebo kirimo ibintu bitandukanye . Iryo gare rikaba rifitwe n'umuntu uri kurigendaho ari kugenda arifashe mu ntoki.

Ishuli rya garidiyene ryo mu mudugudu w'icyitegererezo wa kampaga mu Kinigi imbere rifite irangi ry'umweru hari na jaride, rifite irangi ry'umutuku iri shuli rikaba ryigwamo n'abana b'incuke bari munsi y'imyaka itandatu bitegura kujya mu mwaka wa mbere w'ishuli; ni ishulii ryiza ryubakishije amatafari ahiye.

Abagore n'abagabo bari mu nama ahantu mu kibuga bahagaze abandi bicaye, abenshi muri bo bambaye imipira y'ubururu, ndetse harimo n'uwiteze, n'abiteza ingofero n'abiteze ibitambaro, bakaba bari gukurikirana inama ahantu yateguriwe, noneho bakaba impande yabo hari inyubako.

Abaturage benshi bicaye hasi bari mu nama, bayobowe n'umugabo harimo umugabo akaba ahagaze uyoboye inama, harimo n'umwanditsi wambaye agapira k'umuhondo ndetse abo baturage harimo abicaye ku ntebe, hariho n'abicaye hasi bakaba bari impande y'inyubako, inzu ya mugongowatemba.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati ya move, uhagaze imbere y'abaturage bamukikije, abo baturage bitabiriye inama, hirya ye hakaba hari inzu y'inyubako imeze nk'ikigo cy'amashuri. aba baturage bakaba bari guhabwa impanuro zitandukanye.

Abagore n'abagabo bari mu mahugurwa atandukanye, bicaye ku ntebe z'ibyuma z'imituku, bakaba bari guhugurwa ku bintu bitandukanye, imbere yabo hari ameza ariho amazi.

Abagabo n'abagore bitabiriye inama y'ubuyobozi bari muri sale muri sale y'inama y'akarere. Bambaye karuvati, amakoti, ndetse n'uwambaye isengeri n'amarineti n'abafite amakayi n'amakaramu, bari kwandika n'umugore wambaye akaribaya kageretse.

Abagabo n'abagore benshi bicaye hasi mu mucaca impande yabo hari igiti k'intusi, n'ibiti byinshi biri mu ruhande. Bakaba bitabiriye inama, imbere yabo hari umugabo uri kuyobora iyo nama.

Abanyururu bambaye imyenda ya gereza harimo abakatiwe n'abatarakatirwa, bari imbere y'umuntu uri kubigira urubanza, harimo babiri bunamye ku meza, uri kwiga urubanza akaba afite icupa ry'amazi imbere ye.

Abaturage bari imbere mu Murenge mu nteko y'abaturage bameze nk'abari kuburana, ni abagore babiri, imbere hakaba hari ubuyobozi n'idarapo ry'Umurenge, hasi hashashe imikeka, aba baturage bakaba bashobora kuba bafite ibibazo, baje gusaba ko byakemuka.

Parikingi y'imodoka zitandukanye ziparitse mu muhanda w'itakaka uwo muhanda izo modoka zikaba zitwara abagenzi hakaba ari muri gare noneho hakaba hari abagabo bari kugenda baja gutega n'abandi bahagaze impande y'imodoka bashaka abakiriya.

Umugore wambaye isarubeti z'ubururu, akaba yicaye kuri rifane, rifane ikaba ari ikinyabiziga, cyo mu bwoko bwa moto, ariko gitwara imizigo, iyi rifane ikaba ipakiye ibintu bitandukanye.

Imodoka ya fuso ifite ibara ry'umutuku, ipakiye umucanga utwikirije shitingi iyo modoka ikaba ifite amapine atatu y'umukara, imodoka ikaba iri aho bapakirira impande y'ikigezi .

Umugore utwaye igare yambaye iribaya ry'igitenge， inyuma ahetse umufuka urimo ibintu by'ibihaza， impande ye hari imodoka y’umutuku. Uyu mugore ari kubisikana n’iyo modoka， iyo modoka y’umutuku iraparitse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abanyonzi batatu batwaye, babiri bahetse abantu ku igare n'umwe ufite igare rifite intebe ariko ritariho umuntu uryicayeho, abo banyonzi bakaba bambaye amajire y'akazi, bakaba bari kugenda muri kaburimbo.

Muri gare ahategerwa imodoka zitandukanye, zirimo imodoka nka za Sitare n'ubundi bwoko bw'imodoka butandukanye buri muri gare, amakwasiteri abagenzi n'abagenzi bari gutega bagiye mu byerekezo bitandukanye, aha ni muri gare.

Imodoka nini ya bisi n'abagenzi bari kumurongo bategereje kwinjira muri modoka , harimo uwambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'umugore uri kuvugira kuri terefone wambaye agashati k'umutuku n' nabagabo bari inyuma ye , hakurya y'iyo modoka hakaba hari amazu atandukanye ari mu cyerekezo cy'umujyi , amazu y'ibihanga.

Imodoka enye z'idayihatsu zipakiye ibirayi. Ibyo birayi bikaba bitwikirije shitingi y'umutuku ,shitingi y'ubururu ,imbere yazo hakaba hari umudaso ndetse n'abantu batwaye izo modoka bari kuvugana n'umudaso yambaye imyenda y'icyatsi abo bandi bo bambaye imyenda isanzwe . Imodoka zipakiye imifuka y'ibirayi.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda zikaba ziri kugendana n'abamotari, izo modoka, abamotari bakaba bahetse ibikapa ndetse n'abantu. Imodoka z'ubururu ziri impande yazo, hari ibiti ibiti byitwa, by'imitako biba biri impande y'umuhanda mu mujyi.

Aha ni mu mujyi wa Musanze, ndi kubona ari umuhanda wa kaburimbo uri guturuka Rubavu urimo imodoka za rukururana zitwaye ibicuruzwa bitandukanye. Mu by'ukuri aha ng'aha ni mu mujyi ariko utaragera mu mujyi rwagati.

Abamotari baparitse muri parikingi b'abagabo n'umumotari w'umugore bategereje abagenzi kuri arete, ku cyapa ngo umugenzi nahagera bamutware mu cyerekezo araba agiyemo.

Abagore babiri umwe yahetse umwana akenyeye n'igitenge cy'ubururu, bari kugenda mu isoko begera ku modoka ifite ibara ry'icyatsi inyuma itwara imyanda, aba bagore bakaba umwe afite n'amabase abiri bavuye mu isoko bari gutaha barikwigira ahagana ku rusyo.

Mu muhanda mu mujyi wa Musanze aho abagenzi bambukira, hari imodoka zitwara abagenzi. Izi modoka iyo zigiye kugera aho abagenzi bambukira, ziraparika kugira ngo abagenzi babanze batambuke. Niyo mpamvu uriya mugenzi uri muri iriya mirongo ni ahantu hagati aho baba batemerewe, imodoka iyo zibonye umugenzi arimo zihita zihagarara, kugira ngo umugenzi na we abanze atambuke.

Amatara menshi ari kwaka muri gare, iyo gare ikaba iparitsemo imodoka zitandukanye, noneho hakaba harimo n'abagenzi batandukanye baraye muri gare, cyangwa se bategereje imodoka kugira ngo zize kubatwara.

Umugore n'umugabo batwaye amagare, umugore ahetse ijerekani n'igipaniye, umugabo ahetse isombe ndetse hariho n''umugabo uhetse inkoko nyinshi ku igare, bari kuja mu isoko n'umugore ufashe telefone ari kugenda n'amaguru ari guhamagara, araho inyuma y'iryo gare.

Umumotari wambaye bote z'umukara wicaye kuri moto, Akaba ahetse imifuka ibiri. Iyo mifuka ikaba irimo ibyokurya, akaba ahetse n'ibitoki bibiri. Ibitoki bifite ibara ry'icyatsi. Ibitoki barabirya kandi bakanabyotsa, bashaka guteka amaganda cyangwa se bakabitogoza cyangwa bagayitekamo gatotogo.

Gare nini irimo imodoka z'amakwasiteri，n'urujya n’uruza rw'abantu， ayo makwasiteri akaba afite ibara ry'umweru， akaba arimo n’ikwasiteri ifite ibara ry'ubururu hejuru，ayo makwasiteri akaba atwara abantu abajyana mu ntara，cyangwa se mu duce dutandukanye.

Abagenzi bari muri gare， batonze umurongo bategereje kwinjira mu makwasiteri， abagabo n'abagore batandukanye. Aba bagenzi bakaba bari gutega imodoka，ngo bage mu byerekezo by'iwabo.

Imodoka nini ya bisi bita bisi iparitse mu muhanda, ikaba yicayemo umugenzi umwe, inyuma yayo hari agatagisi vuwatiri gatoya k'umweru, iyo modoka ya bisi ifite ibara ry'icyatsi ikaba itwara abagenzi batandukanye.

Pisine irimo amazi y'urubogobogo, aya mazi akaba bayogamo, iyo wagiye koga uraruhuka, koga bikiza indwara zitandukanye nk'indwara z'imitsi ariko babikora nka siporo nanone, koga ni byiza.

Umukobwa wambaye imyenda y'imbere gusa, ikariso n'agasengeri ariko w'umusiporutifu uri kwiruka cyane. Uyu mukobwa akaba ari muri siporo. Siporo igira akamaro ku buzima bw'umuntu kuko umuntuntu ukora siporo ntarwaragurika, agira umubiri uringaniye, kandi siporo irinda ubuzima bw'umuntu. Siporo ni nziza.

Umugabo w'umukinnyi ufashe agapira mu ntoki, akaba yambaye ipantaro y'icyatsi, inkweto z'umuhondo, akaba yambaye n'umupira w'icyatsi w'amaboko maremare, noneho icyatsi kibisi akaba afashe balo mu ntoki ari mu myitozo yo gukina umupira.

Abakinnyi ba basiketi bafashe basiketi mu ntoki，abakobwa babiri， bari mu kibuga cya basket bari kwitegereza aho paniye iri ngo bajugunyemo，cyangwa se banagemo, babe batsinze igitego n'abafana bari impande bari kubitegereza.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imipira myinshi ya basiketi, noneho hakaba hari n'abantu batatu bambaye imyenda ya siporo bicaye ku ntebe ndende, n'undi utambaye imyenda ya siporo bari kureba umupira. Abo bantu bakaba bambaye imyenda y'umukara.

Umugabo uri mu mumazi muri pisine arikoga, yamaze gushyiramo umubiri wose, igihimba ukuboko n'ikiganza, nibyo biri hejuru noneho akaba ari koga.

Umugore w’umusiporutifu，wateye intambwe ndende wambaye agakabutura k'ubururu， n'agapira k'icyatsi，afite agatenesi， ari gukina tenisi， ari mu kibuga cya tenisi， uyu mugore akaba ari umusiporutifu cyane.

Abakobwa babiri bambaye amakora y'umukara, n'abagabo bambaye imyenda ya Jezi bari muri siporo, n'umugabo umwe wambaye ikabutura atambaye umupira hejuru, abo bagabo bambaye imyenda ya jezi hejuru, ifite ibara ry'icyatsi.

Ikibuga cy'umupira bari gukina umupira w'amaguru, bari kuwukinira mu kibuga cy'umupira kuri Busogo. Ikibuga cy'umupira kiri gukinirwamo na nimero makumyabiri n'ebyiri, na nimero umunani. Abambaye imihondo n'abambaye imituku, mu kibuga harimo ibyatsi bya pasiparume n'umuronko w'umweru ukoze inyuguti ya gatatu.

Pisinine, intebe ebyiri ziteretse impande ya pisine. Mu ruhande rw'iburyo no mu ruhande rw'imoso hari izindi ebyiri. Pisine ni ahantu abantu bogera. Pisine ikunze kuba iri kuri hoteli. Abantu bajya koga bagamije gukora siporo cyangwa se kuruhuka. Pisine ni amazi aba ari mu cyobo adendejemo, noneho umuntu ukeneye koga akajya kuyoga.

Abakobwa bambaye imyenda ya siporo, bakaba bari kwiruka. Kwiruka ikaba ari imwe muri siporo ikorwa abantu bagamije kunanura ingingo z'umubiri, iyi siporo ikaba ikorwa n'abagabo n'abagore, ikaba ari nziza ku buzima bw'umuntu.

Abakinnyi bari mu kibuga, bambaye ijezi z'ubururu n'umweru, n'abandi bambaye ijezi z'umukara n'umweru, inyuma yabo hakaba hari abafana bicaye, ikibuga kikaba gishushanyijemo imirongo y'umweru, noneho icyo kibuga, kikaba gikorotijwe ibyuma.

Abakobwa bavuye bambaye imyenda ya siporo n'umukobwa wambaye ijipo, ufashe igikapu mu ntoki kizwi ku izina rya marete cyangwa se nzaruhahira, bakaba bari guhobera uwo umukobwa ,impande yabo hakaba hari umudamu wambaye ipantaro yumukara n'umupira w'icyatsi. Aba badamu cyangwa se abakobwa bakaba bavuye muri siporo.

Umugore uri muri siporo ari kunanura amaguru n'amaboko ,ari kumwe n'umugabo uri gupima uburebure n'abandi bari kuvura indwara zitandura.

Abakinnyi b'abakobwa bambaye ijezi z'icyatsi zifite n'ibara ry'umuhondo n'undi wambaye nimero cumi n'umunani ufite ibara ry'ubururu na nimero icyenda wambaye ikabutura y'ubururu, aba bakinnyi bakaba bari kwifotoza baseka bishimye.

Ikibuga cya basikete aho abantu bari gukinira bakaba bajugunya mu gipaniye, iki gipaniye kigaragaza ko ibitego bigiyemo, iyi kipe y'abakobwa bari gukina basikete hariho n'umugabo uri kubayobora ngo abahe amategeko n'amabwiriza ni mu kigo cy'amashuri.

Abagabo batatu bari gukina umupira bari gucengana, noneho babiri umupira ni bo bawufite bambaye ama jezi, inyuma yabo hari intebe zo muri stade zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, hicayemo abantu bakeya bari gufana.

Abagabo batatu bahagaze imbere yitete harimo uwambaye ishati y'ubururu n'abanyonzi benshi bicaye ku magare bari muri ya siporo, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo visiti Rwanda bari mu marushanwa, aba banyonzi bakaba bagiye bari kugenda muri kaburimbo.

Abakinnyi ba basikete bari gukina basikete, harimo nimero cumi na kane, nimero gatanu na nimero makumyabiri na kane. Ikipe imwe yambaye ubururu, abandi bambaye umweru. Ubwo haba hariho paniye n'abafana, aha ngaha ni mu kibuga cya basikete.

Muri sitade ku kibuga cy'umupira w'amaguru , aho abakinnyi bakinira umupira w'amaguru n'aho abaje gufana bicara ku ntebe z'impande, abanyacyubahiro bica aho muri mu ntuza hasakaye.

Umunyonzi uri gutwara igare ariko akaba ari umusiporutifu, atwaye akagare ka siporo, yambaye kasike, yambaye ndetse n'imyenda ya siporo, ari mumuhanda ari kugenda imbere y'ibitaro bya Ruhengeri.

Fire imanitse ku biti bibiri, iyi fire ikaba bikoreshwa n'abakinnyi ba basiketi, nako abakinnyi ba vore, noneho vore ni umupira bakinisha intoki, uwo mupira bakawukina badunda hasi noneho bagatsinda bandika ibitego abantu bagize babibara mu maseti.

Abakinnyi b'umupira n'umutoza wabo, nimero icyenda, nimero kane, nimero mirongo itatu na kane, nimero cumi n'icyenda, nimero gatandatu, ubwo n'undi mukinnyi wihengetse, ashobora kuba ari nka nyezamu, harimo n'umusore umwe mbona wateretse imisatsi cyane wamanitse udutoki, abandi bari kujombaho.

Abakinnyi b'abakobwa bambaye imyenda ya siporo ifite ibara ry'ubururu n'ibindi bintu bambaye mu mavi noneho harimo numwe wambaye agasengeri k'umuhondo . Abo bakinnyi imyenda bambaye ishushanyijeho nimero cumi n'sheshatu cumi n'enye ,cumi n'eshanu, cumi n'umunani . Abo bakinnyi bakaba bari mu kibuga biteguye gutangira gukina, n'abantu bari impande hirya bari kubitegereza.

Abakinnyi b'umupira bamwe bapfukamye bambaye ba mwivi, inkweto za supuresi ndetse bambaye jezi ifite ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu abo bakinnyi bakaba bari kwifotoza.

Umugabo wirabura uri muri siporo wambaye agasengeri ndetse n'isaha ku kuboko, akaba ari kwiruka yambaye agasengeri kanditseho ngo visiti Rwanda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye ubururu n'umuhondo, bavite harimo ufite metero mirongo ine na kabiri, harimo n'uwambaye n'uri kwiruka ashaka kuza hino, n'ufashe umutaka n'uwambaye umupira n'uwambaye ingofero, bose bakaba bambaye ubururu n'umweru bari mu kibuga.

Abagore b'abakinnyi bari mu kibuga bambaye amajezi y'ubururu ndetse n'ibara ry'umutuku ,nimero kane na nimero cumi na gatanu bakaba bari kwiyadimira, bagaragaza ko batsinze, kuko hirya yabo, hari indi kipe iri hirya ya fire yambaye imituku.

Abakinnyi b'umupira nanone abanyeshuri bari gukina bakaba batsindiye igikombe. Bakaba bahembwe umupira wanditseho Rwanda dirimu, aba ni abanyeshuri batsindiye igikombe cy'umupira.

Umukobwa wambaye agakanzu, k'utuzu ari guturuka mu gipangu, igipangu kinini, cya mpande zose urahari mana we, igipangu cyabakire yari kugenda mu kagenderano k'ibitaka, icyo gipangu gikaba kijitije uruzitiro, rw'amatafari.

Umuhanda urimo ibara ry'umuhondo rigabanya umuhanda n'undi mu nkengero z'umuhanda harimo akarangi k'umukara n'umweru, noneho mu muhanda hari kugendamo umugabo wampaye umupira w'umuhondo n'ipantaro n'ikabutura y'umukara, hakaba hariho n'inzu y'ubucuruzi yometseho amapave hejuru y'igisenge.

Isoko ririmo ibitanda batandikaho, ariko hakaba hatari hageramo abacuruzi, mu isoko hakaba harimo ibitanda bitandukanye, iruhande rw'ibyo bitanda hari inzu z'ubucuruzi ndetse akaba ari mu isoko ry'ibiribwa.

Umugenderano, umuhanda w'umugenderano ugiye muri karitsiye, uwo mugenderano hepfo y'aho hakaba hari inzu ya mugongo wa tembo isakaje amabati y'umutuku, noneho mu ruhande rwo haruguru hakaba harimo indabo zifite ibara ry'umuhondo. Uyu mugenderano ukaba werekeza muri karitsiye cyangwa se mu mudugudu.